Mu buzima busanzwe gukora isuku ni byiza kandi bifasha ubuzima kugira ngo umuntu abeho atekanye, kenshi na kenshi iyo dukora isuku twifashisha amazi meza, isabune tukarenzaho ndetse n'imyambaro yabugenewe kugira ngo tutaza kwangizwa n'ibyo dukora haba mu koza ibyombo, aho turara ndetse n'ibikuta.

Mu gihe umwana moto avutse, ni byiza ko umubyeyi we ndetse n'umwana bahabwa indyo yuzuye, umwana akarusho arengezwaho n'inkingo ahabwa mu myaka mike, kugira ngo aze gukura neza atarwaragurika, izo nkingo azihererwa kwa muganga cyangwa se ahandi hantu hateguwe.